Iyi foto irimo umuntu ufite telefoni, bigaragara nk'aho ari kwishyura akoreshe ikoranabuhanga, bakaba bari kwamamaza uburyo wagura ibintu ndetse ukanishyura hakoresheje murandasi.

Ni ifoto ya sosiyete y'itumanaho tozi nka airtel ikaba iri kwamamaza ikoresheje umuntu, ndetse na terefone iri kwerekana uburyo ushobora kwishyura ukoresheje urubuga rwabo rwa airtel.

Iki icyapa cyerekana ibijyanye n'ivunjishwa ry'amafaranga, aho ujyana amafaranga yo mu kindi gihugu bakayakuvunjira bakayashyira mu mafaranga ushaka, hakaba hamanitse ibiciro by'uburyo bikorwamo bitewe n'amafaranga avuyemo.

Iyi ni ipoto irimo ikirango cya sosiyete y'itumanaho, iyo tuzi nka emutiyeni, ikaba yanditseho ngo "Ishyura na Momo peyi ukanze *182*1*043669#, Nta yandi mafaranga wishyuzwa". Akaba ari icyapa cy'abacuruzi gisa umuhondo.